Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza bisaba kwiyitaho kurya ibiryo birimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, barimo gutera akarima k'igikoni kugira ngo bazakomeze babone imboga zunganira ifunguro rya buri munsi.

Kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza harimo ko bagomba kwiyitaho, uhereye mu mirire, mu minywere, mu mikoreshereze y'amazi meza ndetse no kubona amavuriro abegereye aba bana barimo baraganirizwa uko bakita ku buzima bwabo.

Mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza bimusaba gukoresha amazi. Ukanywa amazi menshi ahagije. Kugira ngo bibe byiza kurushaho biba byiza iyo umuntu akoresheje amazi, ariko amazi asukuye.

Amazi meza yegerejwe abaturage mu Rwanda ndetse arahendutse ku buryo umuntu wese yayabona, uyu mwana arimo avoma amazi ndetse yishimye cyane kubera ko atamugora kuyabona.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune byica mikorobe. Ni byiza ko umuntu akaraba intoki kenshi gashoboka ku munsi, kugira ngo yirinde mikorobe ziba zavuye ahantu hatandukanye aba yakoze. Uyu mwana yishimiye cyane ko ari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Amazi mu Rwanda, yegerejwe abaturage. Aho usanga kugira umuntu abone amazi, ari ibintu byoroshye kandi akaba anahendutse. Uyu mubyeyi yishimiye cyane y'uko arimo avoma amazi ari hafi y'aho atuye ,kandi akaba anahendutse cyane. Ibyo bikaba bimufasha mu buzima bwa buri munsi, no kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Kunywa amazi meza bifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyane cyane iyo ukoresheje ibikoresho bisukuye bituma umuntu ahora yishimye agira n'ubuzima bwiza mu mitekerereze yo mu mutwe, uyu mwana arimo akoresha igikombe gisukuye kugira ngo afate amazi meza.

Amazi arakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubeho neza dukeneye amazi, aba bantu barimo gushaka amazi yo kwifashisha mu buzima bwabo, ndetse bagire n'isuku.

amazi meza yegerejwe abaturage kugira ngo umuntu akomeze yite ku buzima bw'iwe bimusaba gukaraba ndetse no kunywa amazi. Uyu mwana arimo avoma amazi yishimye kandi anezerewe.

Serivise y'amazi yabaye nk'ubuntu. Mu Rwanda hose, amazi yegerejwe abaturage. Aho usanga yegereye abantu, kandi ku giciro gitoya. Aba bana bishimiye cyane ko barimo kuvoma amazi hafi y'iwabo, kandi aribo babyikoreye.

Kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze kuba bwiza ni uko ugomba kubwitaho, ukibuka ko ugomba kugira isuku, ugakaraba intoki n'isabune ndetse n'amazi meza, uyu mumama arimo akaraba intoki n'amazi meza n'isabune yishimye.

Amezi meza, yegerejwe abaturage. Arahendutse kandi ari hafi yabo. Ku buryo n'abana bayabona. Uyu mwana yishimiye cyane ko, akura amazi hafi, ndetse akaba anabahendukiye, bikaba binoroshye kuyabona.

Mu gihugu cyacu amavomero yegerejwe abantu bose ndetse kubona amazi bisigaye bihendutse yegereye n'abaturage, abaturage basigaye babona amazi ku gihe ndetse bakajya no ku mugezi bafite ibyiringiro ko ba ribuze kuyatahana, aba bamama bishimiye cyane ko amazi yabegereye kandi amazi arahendutse

Abantu benshi bishimira kuba bari ahantu, bashobora kubona ibyo kurya ku gihe kandi bakabona n'ibicanwa, uyu mumama yishimiye cyane ko ari ahantu abona ibicanmo ku gihe, akabona n'ibyo kurya ku gihe kuko bimworohereza ubuzima, kandi bigatuma akora n'indi mirimo itandukanye.

Agahinda kenshi gatuma umuntu yigunga, akicara adafite ibyiringiro, biba byiza iyo umuntu afite umuntu yegera, akaganiriza ibibazo byiwe cyane cyane iyo byamubanye byinshi, uyu mugabo arababaye yabuze umuntu aganiriza ibibazo by'iwe.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, bisaba kubwitaho ndetse waba wahuye n'ikibazo ntubyihererane, ukegera abandi ukabaganiriza ukuntu wiyumva kugira ngo bikurinde bimwe mu bibazo bishobora kugufata ndetse ukagira n'ihungabana.

Kugira ngo umuntu yirinde agahinda gakabije ndetse no kwigunga bimugabanyirize n'ibibazo byo mu mutwe, birimo kwegera abandi ndetse no kuganirizwa, aba ngabo barimo baraganirizwa kugira ngo bakomeze bite ku buzima bwabo.

Kuba umwana yarakuriye mu muryango ufite amakimbirane bituma akura afite agahinda gakabije, aho aba nta muntu n'umwe yizera cyangwa umuntu yakegera ngo aganirize ibibazo byiwe. Ibyo bituma ahora aganya, afite umubabaro mwinshi, ku buryo akenshi ahorana amarira ku maso yiwe.

Mu gihe ukeneye gusukura amenyo, kandi nta bushobozi ufite, ntabwo ari ngombwa kotegereza kubona uburoso, n'umuti w'amenyo. Ushobora no gukoresha urudodo. Uyu musore, yishimiye cyane gukoresha urudodo asukura amenyo yiwe, kugirango ngo akuremo imyanda, ndetse agire n'amenyo meza.

Ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere cyane ni byiza ko umuntu yita ku menyo yiwe, harimo kwisuzumisha kugira ngo arebe ikibazo afite ndetse no gukoresha amazi meza, uburoso bwabugenewe na korgate yabugenewe, uyu nguyu barimo kumusuzuma amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere cyane, uyu muntu barimo kumuvura amenyo, ni byiza ko umuntu akoresha umuti w'amenyo wabugenewe n'uburoso bwiza n'amazi meza, kugira ngo yirinde kuba yagira ibibazo by'amenyo.

Gukoresha amazi meza, gukoresha umuti wabugenewe ndetse no gukoresha uburoso ni byiza ku menyo, ariko ntabwo ari igihe cyose, rimwe na rimwe bisaba ko wifashisha ibindi bikoresho kugira ngo ukure imyanda iri hagati mu menyo, uyu mugabo arimo akoresha ibikoresho kugira ngo akure imyanda mu menyo.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi ni byiza kwiyitaho ndetse ukibuka no kugira isuku, ugakoresha amazi meza, ugakoresha korogate, ugakoresha n'uburoso ugasukura amenyo, uyu nguyu arimo akoresha ubundi buryo kugira ngo asukure amenyo ye.

Kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza bisaba kubwitaho, niba warwaye ukajya kwa muganga bakaguhereza imiti ndetse umuntu agomba no kumenya uko afata iyo miti ayifatishije amazi meza, uyu musaza arimo yereka umukecuru uburyo yafata imiti neza.

Umubyeyi uganiriza umwana we biramufasha mu mikurire yiwe. Iyo ahorana na we biba akarusho. Uyu mupapa ari kumwe n'umwana we ndetse bari gukorana siporo barishimye cyane. Ibi ngibi bituma umwana agira imikurire myiza ndetse anatekereza neza.

Kuganira n'abantu ndetse no guhorana n'abandi bigabanya ubwigunge. Ni byiza ko umuntu adahora ari wenyine wegera abantu mukaganira, bituma umuntu ahora yishimye. Uyu mumama arimo aganira n'abantu yishimye.

Ni byiza kwitabwaho kuva ukivuka kugeza ukuze ndetse wagera no mu za bukuru ugakomeza kwiyitaho. Uyu mukobwa arimo yita ku uyu mubyeyi kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza ndetse agire n'amagara mazima.

Umuryango mwiza uricara ukaganira ku bibazo bafite ndetse biba byiza cyane, iyo mu bikemuriye mu miryango, uyu mumama n'uyu mupapa barimo baganira ndetse banezerewe cyane, basangira n'ibyo kurya.

Kugira umuryango mwiza bituma babasha gukora neza, ni byiza ko ababyeyi bahereza urugero rwiza abana babo, kugira ngo nabo babe urugero rwiza ndetse bibafashe no mu mikurire yabo, uyu muryango urishimye cyane.

Kunywa amazi ahagije, kurya ibiryo birimo intungamubiri ndetse no gukora siporo biri mu bintu byunganira umuntu kugira ngo abeho neza ndetse asaze ameze neza, aba bapapa barimo bakora siporo ndetse banywa n'amazi kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Kwita ku bana batoya ni byiza cyane kuko bibafasha mu mitekerereze yabo ya buri munsi. Iyo umuryango witaye ku bana, bibafasha mu myigire myiza. Uyu muryango wita ku bana babo mbese bituma bakura neza kandi bahora bishimye.

Ibigo nderabuzima mu rwanda byegerejwe abaturage ndetse usanga ibyinshi muri byo bibacumbikira kugira ngo bakomeze bitabweho igihe batari bamererwa neza, aha ngaha ni aho abarwayi barara.

Ibigo nderabuzima mu Rwanda byegerejwe abaturage kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi zibegereye ndetse bibagabanyirize ku rugendo bakoraga. Iki ni ikigo nderabuzima cyegereye abaturage kugira ngo bakomeze babonere serivisi hafi.

Mu Rwanda ibigo nderabuzima byegerejwe abaturage, ibi ngibi biri mu bintu bifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bigabanya impfu za hato na hato, kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza bisaba ko bagira ikibazo bakegera kwa muganga bakabavura.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage ndetse bafite n'ibikoresho bihagije kugira ngo bakomeze kwita ku barwayi babagana, aha ngaha ni ahantu abarwayi bacumbikiwe mu bitaro barara kugira ngo bakomeze kwitabwaho igihe batari bamererwa neza.

Kugira ngo abana bagire imikurire myiza bisaba kubitaho, kubahereza ibyo bakeneye, kubaganiriza, kubona ibiryo bibahagije ndetse no kugira isuku, uyu muganga arimo aganiriza aba bana kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, bisaba kubwitaho, igihe wahuye n'ikibazo ukaba wakegera muganga, akakuganiriza akakugira inama, uyu ni umuganga arimo kuganiriza umurwayi we, kugira ngo akomeze amwiteho.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi ni byiza kubona ibintu bihagije umubiri, ariko ibyo ntabwo bihagije, ni byiza gukora siporo. Siporo ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza ndetse bikamurinda no kurwaragurika, uyu nguyu arimo akora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, bisaba kubyitaho, kurya neza intungamubiri zihagije, gukora siporo ndetse no kunywa amazi ahagije. Ibyo bituma umuntu ahorana ubuzima bwiza buzira umuze. Amazi meza iyo uyanyweye ugira ubuzima bwiza.

Mu buzima bwa buri munsi umuntu aba akeneye kurya neza, ndetse akanywa amazi menshi kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Aiko ibyo ntabwo bihagije, umuntu agomba gukora siporo, uyu mukobwa arimo akora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza bisaba ku bwitaho, harimo gukora siporo, kubona intungamubiri ziguhagije, kugira isuku no kunywa amazi menshi ahagije, uyu nguyu arimo akora siporo kugira ngo agorore ingingo ziwe ndetse akomeze agire ubuzima bwiza.

Kugira ubuzima bwiza bisaba ko umuntu yita ku buzima bwiwe, harimo kurya neza, kunywa neza, kugira isuku ndetse no gukora siporo, uyu arimo akora siporo kugira ngo akomeze kugira amagara mazima.

Umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza ntago bisaba ko aba yariye gusa ahubwo umuntu aba akeneye no gukora siporo akagorora ingingo ziwe, ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa muri siporo.

ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyo byose ni ubwoko bw'ibiryo umuntu aba akeneye mu buzima bwa buri munsi ndetse ukanywa amazi ahagije ndetse ugakora na siporo, ibyo birinda umuntu kugira ngo arwaragurike n'ibindi byose bishobora guhungabanya umubiri wiwe

Ubuzima bw'umuntu ni ubw'agaciro ndetse bisaba kubwitaho no kubukurikirana, ukarya neza, ukanywa amazi meza ndetse ugakora na siporo, uyu arimo anywa amazi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Gukora siporo ni byiza, kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse bituma ingingo ziba zigororoka bikamurinda kuba yarwara ibintu birimo imitsi, uyu nguyu arimo akora siporo kugira ngo arambure imitsi.

Mu mikurire y'abana myiza harimo ko bagomba kwiga neza, kurya neza, bakaganirizwa ndetse ukabigisha no kwitoza gukora siporo, ni byiza ko abana bakora siporo kugira ngo bite ku buzima bwabo.

Kugira ubuzima bwiza bisaba kubwitaho, kurya neza, ukagira isuku ndetse ukanywa amazi menshi ahagije, uyu nguyu arimo anywa amazi menshi kugira ngo akomeze kwita ku buzima bwe ndetse agire ubuzima bwiza.

Ubuzima bwacu bwa buri munsi dukeneye kurya neza, kunywa amazi ahagije ndetse tugakora siporo kugira ngo biturinde indwara. Uyu nguyu arimo akora siporo kugira ngo akomeze agire amagara mazima.

Kwita ku buzima bwawe ni byiza, kurya neza, kunywa amazi meza, isuku ndetse no gukora siporo, bigabanyiriza umuntu amahirwe yo guhora arwaragurika, uyunguyu arimo gukora siporo kugira ngo akomeze yite ku buzima bwiwe.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni byiza ko umuntu amenya ikintu cyamutabara igihe yarwaye. Iyi ni tangawizi yifashishwa mu bintu bitandukanye. Harimo kwivura inkorora igihe umuntu yarwaye mu mihogo, ndetse ushaka no guteka ibintu bitandukanye.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye kubona ibintu bitandukanye kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, harimo no kwigirira isuku, gukoresha amazi meza n'isabune urimo koga ndetse no gukoresha korugate yabugenewe, ugakoresha n'uburoso kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Igihe cyose ntago aba ari ngombwa ko werekeza mu ruganda kugira ngo bagufashe kubeta ibyo ugiye gukoresha, rimwe na rimwe biba byiza gukoresha agasekuru gakondo, aka ngaka ni agasekuru gakondo umuntu ashobora gukoresha agiye gusekura nka tungurusumu zo guteka cyangwa se ubunyobwa bwo kwifashisha mu gutegura ifunguro.